Abagabo bane bambaye udupfukamunwa mu gwego go kwirinda indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero, harimo koronavayirasi ndetse n'izindi, bahagaze iruhande rw'imodoka izwi nka ambiranse itwara abarwayi, ibavana ku bitaro bito ibajana ku bitaro binini, bari gutanga impano, imbere hari umuntu usa nkaho ari kubafotora.